Umupolisi wambaye imyenda yabugenewe, ufite ibikoresho byifashishwa ari gukora akazi, maze agacunga umutekano w'ibinyabiziga n'abaturage, maze bikarinda impanuka, bikagabanya imfu za hato na hato, abaturage bakabasha kubaho neza cyane, bakiteza imbere.

Abapolisi bambaye imyenda yabugenewe bashinzwe gucunga umutekano wo mu muhanda, bahamagaje abamotari n'abashoferi, kugira ngo bagire ibyo bababwira, bityo babashe kubahiriza amategeko mu muhanda, maze bagire ubuzima bwiza, biteze imbere.

Inzu ikoze neza cyane, ifite isuku ifite ibikoresho bitandukanye, bifashisha intebe, umuriro w'amashanyarazi, amazi n'ibindi, maze bakaganira ku bintu bitandukanye, bakabishakira umuti bityo bakagira, umutekano bakiteza imbere.

Kamera bifashisha bari gucunga umutekano w'ibintu n'abantu, kugira hatagira icyangiriza umutekano wabo. Amatara yo ku muhanda yatuma abantu babona neza. Ibiti bitanga umwuka bahumeka.

Umupolisi wambaye imyenda yabugenewe ufite ibikoresho bitandukanye bifashisha mu kazi kabo bari gucunga umutekano w'abaturage n'ibintu byabo, bityo bakabasha kubaho neza cyane bishimye, ntagihungabanya umutekano wabo bafite.

Abaturage bambaye neza bafite isuku bitabiriye inama, kugira ngo batange ibibazo bitandukanye maze biganirweho, bishakirwe umuti maze babeho neza cyane bishimye.

Abaturage bambaye neza cyane, bicaye neza batuje, bitabiriye inama kugira ngo baganire ku ngingo zitandukanye zabateza imbere n'imiryango yabo n'igihugu cyabo, bityo babeho neza cyane banezerewe.

Inzu ikoze neza cyane ifite isuku, ibikorwaremezo bitandukanye, umuriro, amazi, bifashisha mu gukora amasuku. Intebe n'ameza abantu bicaraho bari mu nama, kugira ngo baganire ku bintu bitandukanye, maze babishakire ibisubizo bityo babashe kwiteza imbere.

Abaturage bitabiriye inteko y'abaturage, bambaye neza, bicaye neza, batuje, maze bagatanga ibitekerezo ku bintu bitandukanye, bityo bigashakirwa umuti, maze bakabasha kubaho neza bakiteza imbere.

Abaturage bitabiriye inteko, bafite isuku bicaye neza kugira ngo batange ibitekerezo bitandukanye, babifatire umwanzuro kugira ngo biteze imbere n'igihugu cyabo, maze babeho neza bishimye cyane.

Abaturage bitabiriye inama bambaye neza cyane, bicaye neza batuje biteguye kungurana ibitekerezo bitandukanye, ku bibazo bitandukanye bafite, bityo bigashakirwa ibisubizo bakabaho neza cyane, bakiteza imbere.

Inzu ikoze neza cyane ifite isuku, intebe bicaragaho, umuriro w'amashanyarazi, n'amazi bifashisha bari gukora isuku kugira ngo abantu bahicare hameze neza, bakore inama neza batuje maze bungurane ibitekerezo ku bintu bitandukanye bibafasha mu iterambere.

Umutiba w'inzuki bororeramo inzuki, maze zitanga umusaruro ushimishije w'ubuki, bakajya barawifashisha mu buvuzi butandukanye.

Agaparato baboha maze bakakajyana ku isoko, kukagurisha, bakabona amafaranga yo kwifashisha, bakiteza imbere. Maze bakajya bakarambikaho imbuto zitandukanye, bakishima cyane.

Muhinzi bifashisha bari kunywa ubushera n'urwagwa maze bakagubwa neza cyane, bakabona n'amafaranga yo kwifashisha, bagakemuza ibindi bibazo bafite bakiteza imbere.

Ibiryo bya kinyarwanda abantu barya maze bakagira imbaraga bakajya mu mirimo yabo itandukanye, umutsima w'ingano, umutsima w'amasaka, ibigori ibishyimbo, ibirayi, ibijumba n'ibigori, maze bakagira ubuzima bwiza, maze bakiteza imbere.

Ikirago bifashisha bari kwicaraho， no kwanikaho ibintu bitandukanye， igisabo bacuramo amata，inkongoro banywesha amata，maze bakagubwa neza cyane， imitemeri bapfundikisha ibyibo.

Intara bifashisha bari gugosora imyaka itandukanye, maze igasa neza ikavamo imyanda bakayibika imeze neza cyane, bityo bakazabasha kuzijyana kuyigurisha nta mwanda ifite, bakabaho neza cyane.

Ababyinnyi bambaye imyenda ya gitorere bifashisha bari kubyina mu birori bitandukanye, no mu bukwe ahantu hatandukanye, bityo bagashimisha abantu nabo bakizihirwa cyane, bakabona amafaranga yo kwifashisha mu bintu bitandukanye no kwiteza imbere.

Umusambi baboha maze bakajya bawicaraho cyangwa bakawanikaho imyaka itandukanye, bakawukoresha mu misango y'ubukwe, ubundi bakawukoresha bari kuwuryamaho. Cyangwa se bakawuhambamo abantu.

Ababumbyi babumba ibintu bitandukanye byifashishwa mu rugo. Inkono batekamo maze ibiryo bigashya bakarya. Imitako bataka maze mu nzu hagasa neza cyane, bakabona amafaranga yo kwifashisha mu bintu bitandukanye, maze na bo bakikura mu bukene.

Isekuru aho bayikoresha bari gusekura isombe, ukayisekura ikaza imeze neza cyane, bakayiteka ikaza iryoshye cyane.

Abazungu bambaye imyenda za kinyarwanda bafite ingoma n'imirishyo bifashisha bari kuvuza ingoma, bityo bakanezererwa cyane bakishima, bakabona amafaranga bakiteza imbere.

Intara bagosoreraho imyaka itandukanye kugira ngo havemo imyanda, babike imyaka isa neza cyane bijye biborohera igihe bagiye kuyiteka, maze bayirye nta myanda irimo.

Ababyeyi bicaye ku musambi, abandi ku ntebe bari kuboha ibintu bitandukanye. Uduparato n'ibiseke bifashisha mu buzima bwa buri munsi, kugira ngo bazabijyane ku isoko kubigurisha, babone amafaranga abafasha kwiteza imbere n'imiryango yabo.

Umuvure bakamiramo ibitoki bikavamo umutobe maze bakawunywa. Inzuho bifashisha bari kunywesha n'uducuma banyweramo, maze bakizihirwa bakamera neza cyane.

Umuheto bifashisha bari guhiga inyamaswa zitandukanye, bityo bakabona umuhigo bakawujyana mu rugo bakajya kuwubaga, maze bakawuteka bakawurya, bakishima cyane.

Intore zambaye imyenda yabugenewe, zibyinana bafite amacumu ,ingabo, uduseke ,ingoma n'imirishyo bifashisha bari kubyina ,maze bakishima cyane .Ibiti bitanga umwuka mwiza abantu bahumeka.

Ibi bindi bengeramo amarwa, bakayanywera mu ducuma hamwe n'inshuti zabo n'imiryango yabo n'abaturanyi, maze bakishima cyane bakunga ubumwe bikabafasha no kwagura umuryango.

Uduseke twiza cyane, aho tuboshye neza na maparato, uduseke turimo amabara y'umweru, umukara, ubururu, umweru, shokora, umweru, n'ubururu aho tuzatanga amafaranga menshi ku batuboshye.

Itazi bifashisha mu mirimo itandukanye, nko kurishyira ku myaka, kugira ngo imyaka idapfa ahubwo izere neza, irindi bakarikoresha bari kwinika amasaka, maze akazaboneka amamera babetesha, maze bagakora ubushera bakabunywa bakamererwa neza cyane.

Imbehe baruriraho ibiryo by'impirike, maze bakabirya bakishima cyane, bakagira imbaraga zibafasha gukora indi mirimo itandukanye, maze bakiteza imbere n'igihugu cyabo.

Inka y'inyambo imeze neza cyane. Ibiti bitanga umwuka bahumeka, ibindi bakabicana maze bakabitekesha ibiryo barya, maze bakamererwa neza cyane.

Ababumbyi babumba inkono batekagamo, n'amavaze bashyiramo indabo. Bityo bakaziyjana ku isoko kuzigurisha bakabona amafaranga yo gukemuza ibibazo bafite bakiteza imbere.

Itara bifashisha bari kurimanika mu nzu rikajya ritanga urumuri. Bigatuma dukora imirimo itandukanye turi kureba. Bityo tukabasha kwiteza imbere mu miryango yacu n'igihugu cyacu.

Umugozi bifashisha bari gucaginga mashini maze ikajyamo umuriro, bakayikoresha neza nta kibazo bafite, maze bakabasha kubona amakuru atandukanye ku bintu bibera hirya no hino ku isi, maze bakabasha kwiteza imbere.

Inzu zubatse neza cyane, zifite isuku, zifite ibikoresho bitandukanye, bifashisha mu buzima bwa buri munsi, amazi, umuriro w'amashanyarazi, ibiti bitanga umwuka abantu bahumeka maze bakamererwa neza cyane.

Inyubako nziza cyane, ifite isuku, batunganyirizamo amata, maze bakayajyana ku isoko kuyagurisha, bakabona amafaranga yo kwifashisha mu iterambere, ibiti bitanga umwuka bahumeka, n'inkwi bifashisha bari gucana.

Inzu zikoze neza cyane, zifite isuku, ibiti bitanga umwuka bahumeka, jaride bicaramo bari gufata akayaga, maze bakamererwa neza cyane, maze bakagira ubuzima bwiza.

Urusengero abantu bajya gusengeramo rukoze neza cyane rufite isuku, rufite ibikoresho bitandukanye bifashisha bari gusenga, intebe bicaraho, vandarateri zitanga akuka keza ko guhumeka, amashyanyarazi yifashishwa mu bintu bitandukanye maze bakamererwa neza cyane.

Urusengero rukoze neza rufite isuku, ibikorwa remezo bitandukanye, umuriro w'amashanyarazi bifashisha bari gucuranga ibikoresho bitandukanye, amazi bifashisha bari gukora amasuku mu rusengero, maze abantu bakajya kurusengeramo rusa neza cyane, maze bakunguka ibya mwuka.

Inzu zikoze neza cyane zifite isuku umuriro w'amashanyarazi bifashisha bari gucana, amazi bifashisha bari gukora amasuku atandukanye maze bakagira ubuzima bwiza cyane.

Abaturage bari mu gikorwa cyo gukora umuganda ku mashuri， maze abanyeshuri bakajya barayigiramo bameze neza cyane， bakunguka ubumenyi，bityo bikazabafasha kwibeshaho，ndetse bagateza imbere imiryango yabo n'igihugu cyabo. Ibiti bitanga umwuka mwiza wo guhumeka.

Umusigiti wubatswe neza ufite isuku, umuriro w'amashanyarazi n'amazi bifashisha bari gukora isuku mu rusengero no muri tuwarete maze abantu bakaza kurusengeramo bakunguka ibya mwuka maze bakabana neza n'abandi bigatuma batera imbere.

Urusengero rukoze neza cyane rufite isuku, abantu baza gusengeramo maze bakunguka ibya mwuka, Bikiramariya nyina wa jambo umubyeyi wacu. Ubusitani bwiza cyane abantu bicaramo baje gusenga.

Ikigo cy'amashuri gifite isuku, ibigega bifata amazi maze bakayakoresha isuku, ibyicundebo by'abana, amashu bifashisha bari guteka maze bakayaburira abana, maze bakarya bakagira ubuzima bwiza, ibiti bitanga umwuka wo guhumeka.

Inzu yubatswe neza cyane ifite isuku, ibiti bitanga umwuka bahumeka, ibindi bigatanga inkwi bacana maze bakazitekesha, ibiryo bigashya maze tukarya tukishima cyane.

Inzu ikoze neza cyane ifite isuku, ifite ibikoresho bitandukanye bifashisha mu buzima bwa buri munsi, ibigega bifata amazi, umuriro w'amashanyarazi bifashisha bari gucana, maze bakagira ubuzima bwiza.

Inzu ikoze neza cyane ifite isuku, umuriro bacana, amazi bifashisha bari gukora amasuku atandukanye, imihanda myiza cyane bagenderamo, ubusitani bwiza baruhukiramo, ibiti bitanga umwuka bahumeka.

Inzu y'akarere ikoze neza cyane ifite isuku, ifite ibikorwaremezo bitandukanye umuriro w'amashanyarazi, n'amazi bifashisha mu masuku maze bagakemura ibibazo by'abaturage bitandukanye, bityo bigafasha abaturage kubaho neza bakiteza imbere.

Ikigo cy'amashuri cyubatse neza, gifite isuku, abanyeshuri bajya kucyigiramo, kugira ngo bunguke ubumenyi bwisumbuyeho. Ibiti bitanga umwuka mwiza, abantu bahumeka. Ikibuga bakiniramo imikino zitandukanye, maze bakagira ubuzima bwiza.

Urusengero rukoze neza cyane rufite isuku. Umuriro w'amashanyarazi n'amazi bifashisha bari gukora isuku mu rusengero, no ku matuwaleti, abaturage bakaza gusengera maze bakunguka ibya mwuka, bikabafasha kubana neza muri sosiyete.

Ikiraro gikoze neza cyane bifashisha bari kugenderaho, bagatwaraho n'imyaka yabo maze bakabasha kwiteza imbere. Ibiti bitanga umwuka mwiza bahumeka, maze bigatanga n'inkwi bacana maze bakazitekesha bakarya.

Inzu yubatse neza cyane ifite isuku, urusengero rwubatse neza cyane rufite isuku, abantu bajya gusengeramo maze bakunguka ibya mwuka, bakabana neza n'abandi, ibiti bitanga umwuka bahumeka, amapoto ajyanye insinga z'amashanyarazi, bacana maze bakamererwa neza cyane.

Urusengero rukoze neza cyane, rufite isuku, abantu bajya gusengeramo, bityo bikabafasha kwiteza imbere mu bya mwuka, bikabafasha kubana neza n'abandi, maze bakiteza imbere.

Ikigo nderabuzima abarwayi bajyaho kwivuza, maze bakabakira bakabasuzuma, bakabaha imiti ijyanye n'uburwayi bwabo, maze bakayinywa bagakira bakamererwa neza cyane maze bakiteza imbere.

Ivuriro rikoze neza cyane rifite isuku, bavuriramo abarwayi, maze bakabaha imiti bakayinywa, maze bagakira bakamererwa neza cyane, bityo bakajya kwiteza imbere, bagateza imbere n'igihugu cyabo.

Umuhanda ukoze neza, ufite isuku, ibinyabiziga bigenderamo bikagera iyo bigiye neza. Ibiti bitanga umwuka mwiza bahumeka, maze bigatanga n’inkwi bifashisha bari guteka.

Inzu ikoze neza cyane ifite isuku, ibikorwaremezo bitandukanye umuriro w'amashanyarazi n'amazi, bifashisha bari gukora amasuku atandukanye, maze bakagira ubuzima bwiza, buzira umuze.

Inyubako nziza cyane igeretse bari kubaka, kugira ngo bazayifashishe mu mirimo itandukanye, ibiti bitanga umwuka bahumeka, n'ibicanwa bifashisha bari guteka ibiryo maze bigashya.

Inzu ikoze neza cane ifite isuku ifite ibikoresho bitandukanye bifashisha intebe bicaraho n'ameza barambikaho ibintu byabo maze bagakora inama bameze neza cyane bagatanga ibitekerezo bitandukanye bityo bagatanga ubutabera ku baturage maze bakabaho neza cyane.

Inzu ikoze neza cyane ifite isuku, ibikoresho bitandukanye bifashisha, intebe zo kwicaraho n'ameza bandukiraho bagatekaho, n'ibindi bikoresho bitandukanye bafite, bityo bakabasha kumva ibibazo bitandukanye by'abaturage, bakabasha kubikemura bakabaho neza cyane bishimye.

Aba baturage bitabiriye inama bambaye neza cyane, bafite isuku bicaye neza, kugira ngo batange ibitekerezo bitandukanye, maze byigweho bikemurwe, maze babashe kubaho neza batekanye; ibiti bitanga umwuka mwiza bahumeka bikifashishwa mu bintu bitandukanye, nko gukora intebe n' ameza bicaraho.

Abaturage bitabiriye inama bakeye, bambaye neza cyane, kugira ngo batange ibibazo bitandukanye, maze bishakirwe ibisubizo, babeho neza bishimye, ibiti bitanga umwuka mwiza bahumeka, n'ibicanwa bifashisha bari guteka, maze bagatera imbere.

Abantu bambaye neza cyane bishimiye iterambere ryabo n'uburinganire mubyo bakora, mu bukorikori bwabo bwa buri munsi, bityo bakabona amafaranga yo kwiteza imbere n'imiryango yabo n'igihugu cyabo.

Abaturage bitabiriye inteko y'abaturage, bahuye n'ubuyobozi bwabo kugira ngo baganire ku bibazo bitandukanye bafite, maze babikemure babeho bishimye bameze neza ,batere imbere. Ibiti bitanga umwuka wo guhumeka.

Inzu ikoze neza cyane, ifite isuku y' ibikoresho bitandukanye bifashisha, intebe bicaraho, ameza bifashisha bari kurambikaho ibintu bitandukanye, maze bakumva ibibazo abaturage bafite, maze bakabasha kubyigaho bakabikemura, kugira ngo babeho neza biteze imbere.

Imodoka zifashishwa ziri gutwara abagenzi batandukanye zikabageza iyo bagiye vuba, bakabasha gukora akazi kabo neza cyane, maze bakiteza imbere, bagateza n'igihugu cyabo imbere bakabaho neza.

Indege imeze neza cyane yifashishwa bari gutwara abantu n'ibintu byabo. Intebe zimeze neza cyane bicaraho abantu bibafasha mu ngendo zabo maze bakagera iyo bagiye nta kibazo bafite maze bakiteza imbere.

Imodoka zifashishwa mu gutwara umusaruro utandukanye, maze bakawujyana ku masoko kuwugurisha, bakabona amafaranga yo kwifashisha mu bintu bitandukanye, n'abashoferi bakabona amafaranga yo kwiteza imbere, moto zifashishwa bari gutwara abantu n'ibintu, aba ejenti bacuruza ama inite n'amafaranga, maze bakiteza imbere.

Imodoka zifashishwa bari gutwara abagenzi maze bakabageza mu bice bitandukanye bagiyemo bakagerayo vuba, bikabafasha gukora imirimo yabo ku gihe, maze bakabona amafaranga yo kwifashisha mu bintu bitandukanye, maze bakiteza imbere. Matola baryamaho maze bagasinzira neza bishimye cyane.

Imodoka bifashisha bari gutwara ibintu bitandukanye, ibikoresho by'ubwubatsi, inkwi bacana, n'ibiryo barya, maze bakamererwa neza cyane, bakabona amafaranga yo kwifashisha mu bindi bitandukanye maze bakiteza imbere.

Gare ikoze neza cyane ifite isuku, aho abantu bajya gutegera imodoka kugira ngo bagere mu bice bitandukanye neza kandi vuba; bibafashe gukora imirimo yabo bityo biteze imbere.

Abantu bambaye neza cyane bishimye, igare bifashisha bari gutwara imizigo n'abantu maze bakabona amafaranga, bakayifashisha mu bintu bitandukanye maze bakiteza imbere.

Indege zifashishwa mu gutwara abantu n'ibintu byabo, maze bakagera iyo bagiye bihuse ku gihe, maze bakabasha gukora imirimo yo kwiteza imbere bagateza imbere n'igihugu cyabo, bakishima cyane bakagubwa neza.

Moto bifashisha bari gutwara ibicuruzwa bitandukanye kugira ngo bajye kubitandika maze babicuruze babone amafaranga yo kwifashisha mu iterambere ryabo n'umumotari abone amafaranga yo kwiteza imbere.

ibikamyo birimo umuhanda binini bitwara imizigo ibikamyo by'icyatsi ubururu n'amamodoka gasanzwe aho atwawe n'abashoferi hari n' kuruhande bari kutambuka muzira

Imodoka zitwara abagenzi n'ibintu byabo bityo bakagera iyo bagiye neza kandi vuba, bikabafasha gukora imirimo yabo neza batayishe bakabona amafaranga yo kwifashisha mu bintu bitandukanye, no kwiteza imbere n'imiryango yabo n'igihugu cyabo.

Amagare yifashishwa mu bintu bitandukanye, mu gutwara abagenzi n'ibintu, bityo bakagera iyo bagiye neza, bakabasha gukora imirimo ya bo neza, bakiteza imbere n'abanyonzi banyonga bakabona amafaranga yo kwifashisha bakemura ibindi bibazo, maze bakiteza imbere.

Umumotari wambaye imyenda yabugenewe, ufite moto nziza cyane itwara imizigo, maze agapakiramo ibintu akabijyana aho bamubwiye, akabona amafaranga yo kwifashisha agakemura ibibazo afite maze akiteza imbere.

Imodoka n'amamoto byifashishwa mu gutwara abantu n'ibintu, maze bakabigeza iyo bagiye vuba cyane, bigatuma bakora imirimo ya bo neza, maze bakabasha kwiteza imbere, n'abatwara imodoka na moto bakabona amafaranga yo kwifashisha mu bintu bitandukanye, maze bakiteza imbere.

Ibinyabiziga bitandukanye bifashisha mu gutwara abantu n'ibintu byabo, moto n'amamodoka, bityo bakabageza iyo bagiye byoroshye, maze bagakora imirimo yabo neza, maze bakabona amafaranga yo kwiteza imbere.

Imodoka zifashishwa mu gutwara imizigo maze zikayigeza iyo zigomba kujya neza cyane ku gihe, bityo bakabona amafaranga yo kwifashisha mu iterambere ryabo, ibiti bitanga umwuka mwiza bahumeka.

Umuhanda abantu bagenderamo, Igare abantu bagendaho, imodoka zitwara abagenzi maze bakagera iyo bagiye bihuse vuba, bityo bikabafasha gukora akazi kabo neza maze bakiteza imbere, bagateza n'igihugu cyabo imbere.

Imodoka zifashishwa ziri gutwara abantu n'ibintu, maze zikaborohereza mu ngendo zabo, maze bakabasha kujya mu mirimo yabo bakiteza imbere n'igihugu cyabo. Ibiti bitanga umwuka mwiza, abantu bahumeka ubusitani bwiza cyane, abantu baruhukiramo.

Imodoka zifashishwa ziri gutwara imizigo itandukanye zikayigeza iyo igiye neza cyane ku gihe, maze bigatuma ba nyirayo biteza imbere, bakabona amafaranga ahagije.

Ubwato bwifashishwa bari gutwara abantu n'ibintu byabo, maze bakajya ahantu hatandukanye mu mirimo kugira ngo babashe kwiteza imbere n'imiryango yabo n'igihugu cyabo.

Ubwato bwifashishwa mu mazi mu gutwara abantu n'ibintu byabo, bityo bakagera iyo bagiye neza nta kibazo bahuye nacyo, maze bakajya kwiteza imbere bagateza imbere n'igihugu cyabo.

Indege bifashisha mu gutwara abagenzi bakabageza iyo bagiye vuba ,maze bakabona amafaranga yo kwifashisha mu bindi bitandukanye ,iterambere ry'igihugu rikihuta cyane, n'iry'abaturage maze bakabaho neza cyane.

Imodoka zifashishwa mu gutwara abagenzi maze bakabageza iyo bagiye neza, bagakorera akazi kabo ku gihe maze bigatanga umusaruro ushimishije, n'abashoferi batwara imodoka bakabona amafaranga yo kwifashisha mu buzima bwa buri munsi, maze bakiteza imbere.

Imodoka zifashishwa mu gutwara abagenzi muri rusange, bityo bakabageza iyo bagiye vuba, maze bakabasha gukora imirimo yabo yo kwiteza imbere, n'abashoferi bakabona amafaranga yo kwifashisha bakemuza ibindi bibazo bitandukanye, bakabasha kwiteza imbere.

Imodoka zifashishwa mu gutwara abagenzi mu buryo butandukanye, maze bakabageza aho bagiye neza ku gihe, bagakora akazi kabo neza, bagatanga umusaruro ushimishije, n'abashoferi bakabona amafaranga yo kwifashisha mu bintu bitandukanye, maze bakiteza imbere.

Abakinnyi bambaye imyenda yabugenewe ikibuga gikoze neza cyane gifite isuku bakiniramo, abasifuzi basifura umukino maze bagatangira gukina bagakotana kugira ngo babone intsinzi, maze bakishima cyane bakabaho bafite amagara mazima.

Ikibuga gikoze neza cyane gifite isuku, abakinnyi bambaye imyenda yabugenewe n'ibikoresho byabugenewe bifashishaga bari gukiniraho imikino, kugira ngo bamererwe neza cyane babone intsinzi, maze bishime cyane, biteze imbere n'igihugu cyabo, nta burwayi bafite.

Ikibuga gikoze neza cyane gifite isuku, bakiniramo umupira. Abakinnyi bambaye imyenda yabugenewe basa neza cyane, biteguye guhatana kugira ngo babone intsinzi, bishime bashimishe n'abafana maze babone amafaranga yo kwiteza imbere.

Sitade ikoze neza cyane, intebe abafana bicaramo bari gufana, ikibuga abakinnyi bakiniramo bambaye iniforume zabugenewe bari gukotana, maze bakabona intsinzi bakishima cyane.

Ikibuga gikoze neza cyane gifite isuku, bakiniramo umupira w'amaguru maze bakagira ubuzima bwiza, ibiti bitanga umwuka mwiza bahumeka, maze bigatanga n'inkwi bacana, maze bakazitekesha ibiryo bakarya.

Ikibuga gikoze neza cyane gifite isuku, abakinnyi bambaye imyenda yabugenewe n'ibikoresho byabugenewe bifashisha bari gukina, maze bakabona intsinzi, bityo bakabona amafaranga yo kwifashisha mu bintu bitandukanye bakiteza imbere, bakagira n'ubuzima bwiza buzira uburwayi.

Ikibuga gikoze neza cyane gifite isuku, abakinnyi bakiniramo, maze bakagira ubuzima bwiza buzira uburwayi, bikabafasha kwiteza imbere nta magara azira umuze bafite, bagateza imbere n'igihugu cya bo.

Abakinnyi bambaye imyenda yabugenewe, bari mu masiganwa y'amaguru kugira ngo bahatanire intsinzi, maze bahebwe, babone amafaranga yo kwifashisha bakemura ibindi bibazo bitandukanye, maze biteze imbere.

Abakinnyi bambaye imyenda yabugenewe bari mu marushanwa yo gusimbuka urukiramende. Kugira ngo babone intsinzi maze bahembwe, bityo babone amafaranga yo kwifashisha mu gukemura ibindi bibazo, maze biteze imbere.

Ikibuga gikoze neza cyane gifite isuku, intebe abafana bicaramo, abakinnyi bambaye imyenda yabugenewe biteguye gukotana kugira ngo babone intsinzi, maze bashimishe abafana babo na bo bishime, maze bagire ubuzima bwiza bagire n'iterambere ryabo n'imiryango yabo.

Umukinnyi wambaye imyenda yabugenewe, ufite igare rimeze neza cyane, wambaye ingofero yo kumurinda mugihe aguye, umuhanda bagenderamo ukoze neza cyane, ubusitani butanga umwuka mwiza.

Ikibuga gikinirwamo imikino itandukanye, gifite ibikoresho byiza cyane, intebe bicaraho, umuriro w'amashanyarazi, amazi n'ibindi, maze abakinnyi bagakotana bameze neza cyane, bagashimisha abafana ba bo, bityo bakagira ubuzima bwiza.

Abakinnyi bari mu masiganwa y'amaguru, bambaye imyenda yabugenewe bari guhatana kugira ngo babone intsinzi, maze babone amafaranga yo gukemura ibibazo byabo ,maze babashe kubaho neza biteze imbere.

Ikibuga gikoze neza cyane gifite isuku abakinnyi bifashisha bari gukina kugira ngo bahatane babone intsinzi, bityo babashe kubona ibihembo byabo maze bishime cyane.

Abakinnyi bari mu masiganwa y'amagare, bambaye imyenda yabugenewe, na kasike zibarinda kwangirika ku mutwe, amagare ameze neza cyane, afite isuku, kugira ngo bahatane maze babone intsinzi bishime cyane.

Ikibuga gikoze neza cyane gifite isuku abakinnyi bakinamo umupira, maze bakagira ubuzima bwiza buzira uburwayi, bakabona n'intsinzi ibahesha igikombe, bakabona amafaranga yo gukemu ibibazo baba bafite.

Aha ndi kureba abakinnyi ba basikete, bambaye imyenda y'umweru iriho n'ama nimero. Umwe ufashe baro, bisa n'aho bari bari mu marushanwa yabaye mu minsi yashize.

Ikibuga gikoze neza cyane abakinnyi bakiniramo, maze bakabona intsinzi bagahabwa igikombe, bakabona n'amafaranga yo kwifashisha bakemura ibindi bibazo bitandukanye, maze bakabaho neza cyane.

Ikibuga gikoze neza cyane gifite isuku, bakiniramo imikino itandukanye. Intebe abafana bicaramo baje kureba umupira maze abakinnyi bagakotana, bategereje intsinzi maze bakishima cyane, bakagira n'ubuzima bwiza buzira umuze.

Abakinnyi bari mu masiganwa y'amagare, bambaye imyenda yabugenewe n'ingofero zo kubarinda, amagare meza cyane kugira ngo bahatane babone insinzi maze babone ibihembo byo kwifashisha mu iterambere ryabo, bagire n'amagara mazima.

Umupira bifashisha bari gukina imikino ya vole bolo, y'intoki maze bakagira ubuzima bwiza, bikabarinda uburwayi bakabaho neza cyane, bafite amagara mazima maze bakiteza imbere.

Umukinnyi wambaye imyenda yabugenewe, ufite ibikoresho byabugenewe bifashisha bari gukina tenisi, maze bakagira ubuzima bwiza buzira umuze, bikabarinda kurwaragurika maze bakiteza imbere n'igihugu cyabo.

Amazi bogamo maze bakagira ubuzima bwiza, bikabarinda uburwayi maze bakabaho neza, bakiteza imbere nta kibazo bafite bagateza imbere n'igihugu cyabo.

Abakinnyi bambaye imyenda zabugenewe, bari mu masiganwa y'amagare, bafite amagare meza cyane, bifashisha bari gusiganwa mu mihanda myiza cyane, kugira ngo babone intsinzi maze babone, ibihembo bibafasha kongera impano zabo.

Umukinnyi uri mu marushanwa yo gutwara amagare wambaye imyenda yabugenewe ufite igare ryiza rimufasha kunyonga kugira ngo abone intsinzi. Abaturage baje gutanga kuraje ku bakinnyi kugira ngo bitware neza babone intsinzi babone n'amafaranga yo kubafasha mu iterambere ryabo.

Ikibuga gikoze neza cyane gifite isuku intebe abafana bicaraho zimeze neza cyane, abakinnyi bagahatana maze bakabona intsinzi bagashimisha abafana babo na bo bakishima, maze bakabona ibihembo bikabafasha kwibeshaho n'imiryango yabo, bagateza n'igihugu cyabo imbere.

Umukinnyi wambaye imyenda yabugenewe, ufite ibikoresho bifashisha mu isiganwa ry'amagare. Igare ryiza cyane. Ari gutwara. Ingofero yo kumurinda mu gihe agize impanuka mu muhanda, kugira ngo atangirika umutwe, maze akabasha kwitwara neza mu marushanwa, akabona intsinzi, akabona amafaranga yo kwiteza imbere.

Ikibuga cyiza cyane gikoze neza gifite isuku, bakiniramo maze bagakotana bakabona intsinzi, bakabona ibikombe, bakabona n'amafaranga yo kwifashisha mu bintu bitandukanye, mu mashuri meza bigiramo maze bakunguka ubumenyi.

Ikipe yambaye imyenda yabugenewe, yiteguye guhatana kugira ngo zibone intsinzi maze babone ibihembo, babyifashishe bari kwiteza imbere maze bagire ubuzima bwiza bishimye cyane.

Abana bari gukina basikete, aho bari gukina n'iyindi kipe, abantu k'uruhande baje gufana uko biragenda, aho ikipe imwe muri zo iratsinda igakomeza.

Ikibuga gikoze neza cyane gifite isuku abakinnyi bakiniramo, intebe abafana bicaraho zimeze neza cyane, maze abakinnyi bagahatana kugira ngo babone intsinzi bashimishe abafana babo, na bo bishime bityo babashe kubaho neza.

Imodoka zikoze neza cyane, zifite ibikoresho byabugenewe kugira ngo zemererwe kujya mu masiganwa, maze bagahatana kugira ngo haboneke intsinzi, maze babone ibihembo bibafasha kwiteza imbere mu buzima bwabo ndetse n'imiryango yabo, babeho neza bishimye cyane.

Ikibuga gikoze neza, gifite isuku bakiniramo imipira itandukanye, maze bakagira ubuzima bwiza buzirara umuze, bakabona n'amafaranga yo kwifashisha biteza imbere, ibiti bitanga umwuka mwiza bahumeka, ubusitani bwiza baruhukiramo.

Umuhanda abantu bagenderamo, amashanyarazi abantu bacana, inzu zikoze neza cyane, ibiti bitanga umwuka wo guhumeka, ubusitani bumeze neza cyane Abantu baruhukiramo maze bakamererwa neza cyane.

Umuhanda uko neza cyane ufite isuku, moto, imodoka, n'amagare bigendamo utuyira abanyamaguru banyuramo, ibiti bitanga umwuka abantu bahumeka. ubusitani bwifashishwa bari kuruhukiramo, amapoto ajyana umuriro w'amashanyarazi ahantu hatandukanye, maze abantu bakiteza imbere.